Kugira ngo abaturage babone serivisi nziza itegeko nshinga ryemerera imitwe ya politiki kugira uruhare mu gutanga ibitekerezo ndetse no gutanga abayobozi mu nzego zitandukanye kugira ngo babashe kugeza iterambere rirambye ku baturage kandi bakemure ibibazo byabo.

Muri serivisi za Leta harimo no guhereza akazi abakozi bashya ari nk'ibyo twakwita rikiritimeti. Iyi ni porogaramu aho abakozi bajya gupiganirwa imyanya itandukanye Leta iba yashyize ku isoko bagakora ibizamini bitandukanye harimo n'icyo kwandika.

Inama ni bumwe mu buryo bwiza bwo gutangamo ibitekerezo, yaba ku baturage ndetse n'abayobozi, aha rero turabona yuko aba badamu batatu bitabiriye inama, imbere yabo ku meza hari amacupa y'amazi ndetse bafite n'amakayi ndetse n'amakaramu bandikamo ibiri kuvugirwa mu nama, ubona ko bakurikiranye ubushishozi.

Mu rwego rwo kunoza serivisi za leta iha abaturage, yashyizeho urubuga rw'irembo kugira ngo abantu bajye baboneraho amakuru ajyanye no kwiyandikisha ndetse no kubona impushya zibemerera gutwara ibinyabiziga.

Serivisi za leta mu rwego rw'uburezi, zikomeje kwibanda cyane ku ikoranabuhanga, aha mu mashuri abanza, abana basigaye bigishwa mudasobwa kandi bakamenya kuyikoresha neza kugirango ngo babashe kujyana n'iterambere rigezweho mu burezi.

Mu rwego rwo kunoza serivisi z'imisoro leta iha abasora, ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, cyashyizeho uburyo bwitwa tengamara, aho umucuruzi cyangwa se usora yandikisha umusoro ku nyongeragaciro bitamugoye.

Muri serivisi za leta yashyizemo imbaraga nyinshi mu bijyanye n'amashanyarazi, aho kuri ubu ngubu usanga ahantu hose mu gihugu ahagera; kandi ahagije ku buryo ababasha gukora ibikorwa by'iterambere babikora neza.

Insakazamashusho ikoreshwa yamamaza ku muhanda, iruhande rwayo hari umuntu uri kugenda, wambaye umupira w'ubururu, hari kandi ipoto, iruhande rwayo iriho iparitseho umumotari, uri kumwe n'umu ajenti wa Mtn, utanga serivisi z'itumanaho.

Kugira ngo serivisi za leta zitangwe neza, ni uko na serivisi z'ubwikorezi ziba zimeze neza, cyane ko izo serivisi z'ubwikorezi zikorwa n'abantu ku giti cyabo. Muri izo serivisi rero, harimo serivisi zitanga peteroli na esanse, ari cyo tuzi mu Rwanda nk'amasitasiyo ya esanse.

Kugira ngo serivise za leta zinozwe ni uko abakozi ba leta baba bakwiriye kugendera ku mategeko ndetse bakanayubahiriza kugira ngo ababasha kubagana nabo babone serivisi inoze bashingiye ku cyo amategeko aba ateganya, ni muri urwo rwego rero usanga hari n'ibyaha bikorerwa ku kazi cyangwa se ku murimo, ariyo mpamvu ubushinjacyaha n'abwo bubikurikirana.

Muri serivisi za leta z'ubutabera, harimo n'urwego rw'igororero, aho abakoze ibyaha bajyanwa kugororwa, bakigishwa ibintu bitandukanye, harimo n'imyuga y'ubumenyi ngiro, ubu buryo rero bufasha Leta y'u Rwanda mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Ubutegetsi bw'ubucamanza ni bumwe mu butegetsi buteganywa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda, aho ugiye gutangira inshingano abanza kubirahirira nkuko tubibona muri iyi shusho, aho uyu ari umushinjacyaha wari uri kurahirira gutangira inshingano ze.

Kugira ngo leta itange serivisi nziza z'umutekano, yashyizeho inzego z'umutekano harimo na polisi y'u Rwanda. Bityo rero, polisi y'u Rwanda ikaba igira uruhare rukomeye mu kurinda umutekano w'abantu ndetse n'ibintu ndetse n'umutekano wo mu muhanda.

Muri gahunda ya leta yo gukumira inkongi z'umuriro, hariho porogaramu yo kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, uburyo bw'ibanze bakwifashisha mu kuzimya inkongi z'umuriro mu gihe zateye. Aho ubu buryo bwigishwa na polisi y'u Rwanda.

Ahatangirwa serivisi za leta hagomba kuba hari bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cy'impanuka cyangwa igihe habayeho inkongi, aho tuhabona za kizimyamwoto zifasha mu kuzimya izo nkongi z'umuriro.

Muri serivisi za leta kugira ngo zinozwe neza, ni ngombwa yuko ahakorerwa cyangwa se ahahurirwa n'abantu benshi hakabaye hari ibikoresho byifashishwa mu kuba hazimwa impanuka y'umuriro igihe yaba ibayeho, ariyo mpamvu tuhasanga za kizimyamwoto.

MU kunoza serivisi za leta. Leta ishyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ishore mu burezi, kugira ngo ibashe kubona abakozi kandi babasha gukora kinyamwuga. Ariho tubona ko abantu bize barahawe inguzanyo, ndetse n'ibibafasha mu kwiga neza kugira ngo bazabashe kuvamo abakozi beza.

U Rwanda ni igihugu kigendera kuri demokarasi aho abayobozi bajyaho abaturage babigizemo uruhare binyuze mu gikorwa cy'amatora nkuko tubibona rero aba nabo bari bitabiriye igikorwa cy'amatora aho cyaberaga mu nzego z'ibanze.

Iyo leta ishaka kunoza serivisi z'ubwikorezi ishyiraho n'ibyanya byabugenewe aho ibicuruzwa bivuye mu mahanga bibanza kunyuzwa bigashyiraho ibirango kugira ngo binasuzumwe ko byujuje ubuziranenge aribyo twita serivisi za majerwa.

Muri serivisi za leta harimo no gutanga ibikorwa remezo ku baturage; ibikorwa remezo twavuga aha ngaha ni nk'imihanda kandi myiza, ifasha abatwara ibinyabiziga muri serivisi z'ubwikorezi, kuba bagenda kandi bakagera aho bajya mu buryo bworoshye.

Mu rwego rwo kunoza serivisi iha abaturage ishyiramo imbaraga nyinshi mu rwego rw'ubwikorezi kugira ngo abaturage babashe kugenda ndetse no gutwara ibicuruzwa byabo mu buryo bworoshye niho dusanga ishyiramo nkunganire zitandukanye nkaho yihanganira abashoramari ikaba yareka nko kubasoresha bitewe n'ubwoko bw'ibinyabiziga nk'ibikoresha amashanyarazi bakoresha.

Muri serivisi za Leta itanga harimo no gushyiraho amabwiriza ndetse n'uburyo bwiza bwo kurinda abakora muri serivisi z'ubwubatsi, ndavuga abakozi kugira ngo babeho batekanye kandi no kuri site aho ubwubatsi bukorerwa naho habe hafite umutekano.

Mu rwego rwo kunoza serivisi z'ubwikorezi, leta yashyizeho amatara ku mihanda kugira ngo n'abatwara amagare babashe gukora akazi kabo nijoro nta nkomyi.

Ku bijyanye no kunoza serivisi leta iha abaturage mu buryo bwo gukoresha umuhanda neza, hagiye hashyirwa ibyapa bitandukanye biyobora abagenzi n'ibinyabiziga nk'aho abagenzi bambukira cg se ahari isangano n'aho imihanda ihurira.

Abaturage bakoresha umuhanda, bishimira serivisi za Leta zo gushyira ibyapa ahabugenewe nk'ikingiki urabona ko cyerekana ibyerekezo bibiri kuba umuntu utwaye ikinyabiziga yakomeza cyangwa agakata ibumoso.

Kugira ngo abaturage bagere ku iterambere rirambye, ni uko leta ibahereza serivisi zihamye nk'iz'amashanyarazi ndetse n'amazi kugira ngo n'abagiye mu miturire y'umudugudu cyangwa ahagenewe guturwa, babashe kubona ibyo bikorwa remezo mu buryo bworoshye.

Kugira ngo abaturage babone serivisi nziza, ni uko bakurikiza igishushanyo mbonera, aho usanga nk'ahagenewe ubwubatsi nubundi haba hakwiriye gukorera ubwubatsi, kugira ngo babashe no kwegereza ibikorwaremezo.

Leta ikunze guteza imbere abaturage ibaha serivisi nziza cyane cyane nka serivisi z'isuku aho usanga nko mu masangano y'umuhanda aho ibinyabiziga binyura bizengurutse hashyirwamo amajaride meza ndetse ku buryo no ku hamamariza biba bibereye ijisho.

Aha ni mu masangano y'umuhanda aho ibinyabiziga bibanza kureka bimwe bigatambuka kugira ngo nabyo bibashe kubona inzira, nk'uko tubibona rero ku ruhande rw'iburyo nibo bafashe iya mbere bari gutambuka nk'uko tubibona uwo mumotari ari gutambuka na we ari mu masangano mo rwagati.

Kugira ngo serivisi za leta zitangwe neza ni uko abaturage bakurikiza amategeko aba yarashyizweho na leta urugero nk'abamotari cyangwase abandi batwara ibinyabiziga baba bakwiriye kubahiriza amategeko y'umuhanda neza nk'uko igazeti ya leta ibiteganya.